Abana bari mu nzu y'isomero bicaye ku meza bayazengurutse ku ntebe zikozwe mu biti ziri mu mabara atandukanye, icyatsi, umutuku, umuhondo iruhande rwabo hari utubati turimo ibitabo bitandukanye ndetse imbere yabo hari icyapa kiriho amagambo.

Abana bari mu kigero kimwe, abakobwa n'abahungu bicaye ku mukeka urimo amabara atandukanye, hagati yabo hahagaze umugabo wambaye itaburiya y'ubururu n'ipantaro y'umukara, urimo kubaha amata. Bamwe muri bo bayazamuye bayashyize hejuru.

Abana bari mu ishuri, bicaye ku meza bayakikije bicaye mu matsinda, ameza amwe afite ibara ry'icyatsi, andi umuhondo, andi iroza, imbere yabo hateretse udukarito turi mu mabara atandukanye.

Abana batatu bicaye ku bwogero bwa kijyambere, umwe yambaye ishati y'ubururu n'agakabutura k'ubururu, undi amukoze ku kaguru, undi uri iruhande rwabo arimo gushaka kurira, inyuma yabo hari inzu ifite imiryango y'umutuku.

Abana bambaye impuzankano y'ibara rya kacyi ndetse bamwe muri bo bambaye umweru na kacye, iruhande rwabo hari ibyicungo bikozwe mu byuma ku ruhande hari inzu yubakishijwe amategura n'amatafari ahiye.

Abana bari ku ishuri, bambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'amajipo ya kake, bafite ibikapu birimo amakayi, bamwe bari kwinjira mu muryango w'ishuri abandi bahagazehanze, imiryango ifite ibara ry'icyatsi.

Igikuta gisize ibara ry'umweru n'icyatsi. Kiriho ibipapuro bibiri biriho ibishushanyo bitandukanye kimwe gifite ibara ry'umweru ikindi gifite ibara ry'ubururu, muri ibyo bishushanyo harimo nk'uruziga, urukiramende, kare, inzu n'inyoni.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, ifite amadirishya n'imiryango isize ibara ry'umuhondo werururutse, mu madirishya hagiye hatambitsemo utwuma, imbere hari ibirahuri, iruhande rwaho hari ayandi mazu.

Ijerekani ifite ibara ry'umuhondo, iteretse ahantu yanditseho amagambo y'umukara agaragaza ko ari ijerekani yo mu mwaka wa kabiri A mu mashuri abanza.

Inzu irimo abana bicaye ku mukeka, bose bafite ibitabo birimo amashusho, umwe muri bo ahagaze hagati yabo arimo gusoma, imbere hahagaze umugore wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru.

Abana bane bari mu ishuri, babiri muri bo bambaye impuzankano y'ibara ry'ubururu na kaki, abandi bambaye kaki hasi n'andi mabara atandukanye hejuru, umwe muri bo yicaye hasi, iruhande rwabo hari intebe zikozwe mu biti.

Ishuri ryubakishijwe amatafari ahiye, imbere hari ikibaho cyandikishijweho n'ingwa y'umweru, iruhande hari abana babiri bari kureba muri mudasobwa, imbere hateretse intebe irimo amasahani n'ibikombe.

Inzu irimo akabati gakozwe mu biti, harimo ubwoko bw'ibitabo butandukanye muri buri gace, harimo ifite ibara ry'icyatsi, umutuku, umuhondo, iroza, hejuru yaho hagiye hariho udupapuro tw'umweru twandikishijweho amagambo y'umukara, tugaragaza ibyo bitabo.

Inzu irimo intebe zikozwe mu biti, zitambitse. Iruhande rwaho hari akabati, karimo ibitabo by'ubwoko butandukanye. Hejuru hari akandi kabati gateretseho igikarito.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'amashati y'ubururu n'amapantaro ya kacye, bicaye imbere yinzu y'amatafari ahiye ifite amadirishya y'umukara, imbere yabo hahagaze umukobwa wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umweru.

Umuhanda ukozwe mu mabuye, iruhande rwawo hari igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye gikikijwe n'ibiti binini, muri uwo muhanda hari kugendamo abana bane bavuye ku ishuri, bambaye impuzankano y'umweru n'umukara.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano ifite ishati y'umweru n'akarongo k'ubururu ku ikora n'ijipo ya kake, imbere yabo hari umusaraba uriho Yesu Kirisito abambwe.

Inzu isize ibara ry'umuhondo, ifite amadirisha y'ibirahuri, ku ruhande hagiye hatambitsemo utwuma, muri iyo nzu harimo imeza iteretseho ibirahuri byamenetse, munsi yaho hari ibice bice by'ibirahuri.

Abantu bari mu cyumba cy'inama, kirimo intebe z'ubwoko butandukanye mu ibara ry'ubururu, icyatsi, imbere yabo hicaye abagabo n'abagore, ku meza hateretse telefone n'ibitabo.

Abantu bari mu nzu ifite ibara ry'umuhondo, irimo intebe zikozwe mu biti, iruhande rwabo hari mudasobwa ifite ibara ry'umukara, bicaye bakoze ikizeru, iruhande rwabo hari akabati karimo ibitabo.

Abantu bari mu nama, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, imbere yabo hari abagabo bicaye, inyuma yabo hari icyapa gifite ibara ry'ubururu n'icyatsi cyandikishijweho amagambo y'umuhondo n'umweru.

Icyapa kiri ku nzira gifite ibara ry'umweru n'ubururu, cyandikishijweho amagambo y'umweru, hejuru y'aho handitseho U na R mu nyuguti nkuru, iruhande rwaho hari ubwoko bw'ibiti butandukanye.

Inzu isize ibara ry'umuhondo, irimo intebe z'ubwoko butandukanye; izisize ibara ry'umukara, ndetse imbere yaho hari ikibaho gifite ibara ry'umweru cyandikishijweho amagambo y'umukara, ndetse na tereviziyo ya kijyambere yanditsemo amagambo y'umweru mu nyuguti nkuru.

Igikuta gisize ibara ry'umuhondo werererutse kiriho icyapa kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru, ibara ry'umweru handikishijweho amagambo y'ubururu U na R ndetse n'ayandi SMH na S iruhande rwaho hagaragaza ko umanutse hasi waba ugiye mu mashuri.

Umugore wambaye agapfukamunwa k'icyatsi n'ibimuranga mu ijosi, ufite indangururamajwi, urimo gutanga imbwirwaruhame, inyuma ye hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru n'icyatsi cyandikishijweho amagambo mu mabara atandukanye, ku ruhande hari akazeru gashushanyijeho, amafoto y'abantu atandukanye.